Mu buzima busanzwe kuganira n'abana ni byiza kuko batwungukiraho byinshi n'ababyeyi tugaharanira yuko bakura neza tubaganiriza tubagira inama.

Mu bisanzwe kwiga ni byiza kandi no gusoma bikarushaho bituma twagura ubumenyi. ubwenge ndetse no mu buzima busanzwe dufite ibitekerezo bizima.

Aha ngaha tuvuye ku ishuri turatashye, aho tuvuye kurebera hamwe amasomo atandukanye mu buzima busanzwe, kwiga ni byiza bituma twagura ubumenyi, kandi bwiza buzatuma tugira ejo heza.

Mu buzima busanzwe gusoma bidufasha byinshi kandi bitugeza ku bumenyi butandukanye bikaduha kwagura ubumenyi ndetse n'ibindi.

Aha ngaha turi mu masomo atandukanye, Ikinyarwanda, Imibare, Icyongereza ndetse n'andi masomo.

Iyo twagiye kwiga nta mikino, kuko tuba tugomba gushyira umutima mu masomo kandi tugashyira ubwenge bwose ku byo twiga, kugira ngo bitujye mu mitwe byose. Twabifashwamo no gusenga cyane kugira ibyo twiga bitugume mu mutwe.

Iyo umunyeshuri agiye ku ishuri ahera kuri a akagera kuri zedi kugira ngo ibindi aziga byose bizamworohere. nk'uko uhera kuri rimwe ukagera ku icyenda.

Turi mu kigo cy'amashuri turimo turashyira intebe ku murongo kandi tuzoroganiza neza kugira ngo tuze kwicara hasa neza mu by'ukuri ni byiza kwigira ahantu hasa neza kandi hateguwe neza.

Mu bigo by'amashuri bitandukanye, cyane ibyateye imbere, hagomba kuba hari aho abana bidagadurira, bakinira kugira ngo bishime no kwiga bibagendekere neza...

Ku ishuri ni heza. Tujyayo tugafata ubumenyi butandukanye. Tuhigira byinshi, amasomo atandukanye yaba mu byiciro byo hejuru n'ibyo hasi.

Umwana w'umunyeshuri agomba kugaragazwa n'imico myiza itandukanye n'iy'abandi batiga, agomba kuba yatebeje, yitwaye neza yambaye neza, yiyogoshesheje kandi asa neza.

Tugomba kwigisha cyangwa tukiga ibintu by'ikoranabuhanga yaba imashini zitandukanye, yaba kubana n'abantu bakuru, tugomba kubyiga kandi bifite umumaro ukomeye mu iterambere.

Gusoma ibitabo ni byiza. Biduha ubumenyi. Ndetse no kumenya ibintu tutari tuzi, bikadufasha kwagura ibitekerezo. Ndetse bigatuma tumenya indimi zitandukanye.

Twari twagiye ku ishuri. Amasaha yo kurya aragera tujya kurya, tuvayo, twandurura, ibyo twaririyeho. Tugiye kubyoza ubundi tubibike aho bikwiriye bisukuye.

Iyo turi kurebera hamwe ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, dusaba kugirana inama kandi tugakorera hamwe, urugero nko gukoresha imashini yaba abana cyangwa se abantu bakuru biradufasha.

Twatembereye twagiye mu bijyanye no kumenya ubuzima, no kumenya imirire myiza, kumenya uko twatunganya ibyo kurya, kandi n'ubundi bumenyi butandukanye.

Iyo tugiye gukina, ntabwo tuba tugiye gukora ubusa ahubwo, hari icyo tuba tugiye gukora ku mubiri wacu, kuwongerera ingufu, ndetse no kugorora imitsi.

Ahantu henshi yaba mu bigo by'amashuri ndetse n'ahandi hatandukanye, mu mavuriro, muri za kaminuza n'ahandi henshi cyane, hagomba kuba hubatse ibibuga by'imyidagaduro.

Mu bisanzwe abana mu muhanda baba bagomba kwambuka bitonze, birinda yuko bahura n'ibinyabiziga, bitandukanye. Yaba amagare, moto, imodoka, inini cyangwa intoya.

Twaje mu nama, twaje kuganira kuri byinshi bitandukanye yaba iby'ubuzima, yaba iby'imyigire yaba ibyo mu buzima busanzwe.

Mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye, hamaze kuba amashuri menshi agezweho y'iterambere kandi abanyeshuri bigiramo akabafasha kumenya indimi zitandukanye ndetse n'ubundi bumenyi buri hejuru.

Aha hantu twaje kwigira hamwe, twaje kureba ubumenyi tudafite kandi buzatugeza kuri byinshi bukaduha kwagura ibitekerezo ndetse no kuzafasha abandi mu buzima busanzwe tubagurira ibitekerezo.

Ahangaha turi mu bintu bijyanye n'ubukorikori, aho tubonamo ibintu bijyanye n'ubugenge, twigiramo ibintu bya chemistry, bya biology, bya physics, ndetse n'ibindi bitandukanye by'ubugenge, aho tubona ibijyanye na labaratoire.

Siporo ni nziza mu buzima busanzwe, zituma turuhuka mu mutwe, zigatuma turambura imitsi kandi zigatuma umubiri ukomera, ni ngombwa yuko tugomba gukora siporo mu buzima bwa buri munsi.

Abantu bose iyo bagenda mu muhanda baba bagomba kugenda bitonze, cyane ko haba hari gucamo ibinyabiziga ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bishobora guhungabanya umutekano w'umuntu.

Muri ibi bihe tugezemo, biba byiza iyo ubyaye umwana, akamujyana mu ishuri akiga neza. Mu gihe cya kera bagendanaga n'amaguru ariko ubu ngubu biba byiza iyo agenze mu modoka, akanataha mu modoka kugira ngo atekereze neza.

Gusoma byagura ubwenge, bikagura ibitekerezo kandi bikaduha kugira ubumenyi butandukanye muri ubu buzima tubamo ndetse no mu bundi buzima buri imbere.

Iyo ufite ubusitani uba ugomba kubyitaho, ukabukorera isuku, ukahaharura kandi ukahakupagupa kugira ngo hakomeze hafite ubuzima buzima.

Twagiye mu kigo cya polisi gu gukorera ibizamini by'amategeko y'umuhanda by'uruhushya rw'ibanze, kugirango tuzabashe gukorera kategori yaba a, b, c, cyangwa d.

Kuryama ahantu heza ni byizayiza, bituma dusinzira neza kandi bikaduha kuruhuka amahoro, byose bikeshwa no kuba washashe kandi wakoze isuku aho urara.

Isi yateye imbere, kandi dufite ibikorwa byinshi bitandukanye, amashanyarazi yatugezeho, inyubako nziza, imihanda myiza iba itatswe n'ibiti byiza, bitandukanye, bituma igihugu gikomeza gusa neza.

Ahangaha dore twibereye muri doro aho tuba twiryamiye, kuryama ni byiza biruhura umutima bikaruhura n'umutwe bituma dushyira ubwenge ku murongo kandi tukaruhura ubwonko.

Kuvugurura amazu ni byiza, bituma atarwara imedite, ndetse n'izindi ngaruka nko kugwa, mu by'ukuri, kuzirika ibisenge ndetse no gushyiraho ibirahure bishyashya mu gihe byamenetse.

Amashanyarazi ni meza adufasha kumurika, adufasha no gukoresha n'ibindi bikoresho bitandukanye byaba amateleviziyo, amatelefone, gucana mu ngo zacu.

Kaminuza mu gihugu cy'u Rwanda zifite akamaro gatandukanye, zifasha abantu kubaha ubumenyi butandukanye mpuzamahanga ndetse n'ubundi bumenyi butazwi n'abanyarwanda, ndetse no mu bindi bihugu zifite umumaro utandukanye.

Twagiye mu nama aho twaboneye ibintu byinshi bitandukanye, umuyobozi mukuru yatuganirije kandi bizatugirira umumaro mu buzima bw'imbere ndetse no mu buzima buzaza, kandi twahigiye byinshi bizadufasha mu iterambere.